Icyapa cya mpande enye, umuzenguruko wumukara, ubuso bw'umuhondo, ibirango by'umukara, kigaragaza ko ushobora gukomeza imbere cyangwa ugakata k'uruhande rw'ibumoso.

Abagabo batatu ndetse n'umugore imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, uducupa tw'amazi ndetse inyuma yaho hari igitereviziyo kinini cyane ndetse iruhande rwabo hariho icyapa cy'umweru kirimo amabara y'umukara ndetse n'umuhondo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, w'imibiri yombi, ufite inga, indangungururamajwi mu ntoki, wambaye isaha y'umukara, yicaranye n'abandi bagabo bagiye batandukanye, imbere yiwe hari imeza iteretse ho utuntu tw'udukayi hejuru tubaranga.

Umugore w'inzobe wambaye amadarubindi, ufite imisatsi migufi, ufite n'indangururamajwi mu ntoki, wambaye isaha, ari kumwe n'undi mugore wambaye ishati y'umweru n'agatambaro k'umweru n'umutuku, ufite imisatsi miremire, yambaye n'amaherena. Imbere yaho hari ameza ariho igitamabaro cy'umweru ndetse hateretseho amazi, telefoni na ajenda.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagabo, abagore, ndetyse barahagaze, imbere yabo hari ameza hariho icyuma cy'umweru, ndetse inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kiriho amagambo asa ubururu bwerurutse cyane, yandikishijemo amagambo y'umweru agiye atandukanye.

Imodoka nini cyane ikunda gutwara abantu by'umwihariko zikunda gukoreshwa mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu bice bike bitandukanye zitwara abantu benshi bagiye ahantu hamwe ahoza uba ufite ikarita uka ugakoza ku cyuma hanyuma amafaranga akavaho ukinjiramo hanyuma bakagutwararwa kugeza aho ugiye, si ibyo gusa kandi n'abagenda bahagaze turabona imbere umunyamaguru cyangwa se umugenzi ufite igare uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe w'igikara w'imisatsi migufi wambaye agapira k'icyatsi umukara n'umweru ndetse n'undi wambaye ishati y'amako maremare y'umukara n'utudomo tw'umweru bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho imashini, amakaye, ndetse n'amazi, iruhande rwabo hari umugore w'imisatsi miremire n'inzobe wambaye agashati k'umukara ndetse n'akandi k'imbere k'umutuku.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari ahantu hamwe hari abahagaze n'abicaye, abicaye ni babiri babiri iruhande rwabo hari amazi n'ikinyobwa, bateze amatwi ibivugwa.

Abagabo bambaye amakoti agiye atandukanye bicaye ku meza bameze nk'aho bari mu nama bari kuganira ibintu bigiyeye bitandukanye ndetse imbere y'aho bafiteho amakayi ndetse na ajenda n'amakaramu ndetse na telefone.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru gifitemo amabara y'ubururu handikishijwemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu ndetse abo bantu harimo abagore n'abagabo bagiye batandukanye bambaye imyenda y'umutuku, isa n'ivu ndetse bambaye n'imyenda y'ubururu bwijimye cyane n'amadarubindi.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore, abagabo bicaye mu nzu, ndetse bicaye ku meza ndende iriho amazi, imitobe itari ubwoko butandukanye ndetse iyo nzu akaba ariyo amakaro y'umweru ndetse bakaba bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu benshi bari mu nzu bagiye batandukanye, ndetse iyo nzu irimo amatara y'umuhondo, ndetse bicaye ku meza hari impapuro z'umweru, amakayi, imashini ndetse hateretseho n'amazi hariho n'ibikapu by'umutuku.

Abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye bameze nk'aho bari mu nama, imbere yaho hateretse ameza arimo hariho ibitambaro cyo hejuru y'icyatsi ndetse n'ikindi cy'umuhondo ndetse hateretseho amaji, imitobe igiye itandukanye ndetse n'amazi ndetse intebe zabo hari izisa umukara ndetse n'izisa umuhondo.

Abagabo benshi bagiye batandukanye bambaye amadarubindi ndetse imbere yabo hari umugabo ugaragara cyane w'igikara udafite umusatsi ndetse afite mu ntoki indangururamajwi mu ntoki ze imbere ye hateretseho ineza iriho ikayi ndetse n'amatelefone agiye atandukanye ndetse yambaye ikote ry'ubururu na karuvati y'umukara n'umweru n'ishati y'ubururu bwerurutse cyane.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu cyanyandikishijemo amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hashushanyijeho inzu ifite amabati y'umutuku iteye amarangi y'umweru ndetse ifite n'amadirishya, ndetse hariho ubwatsi hasi bugiye butandukanye buri mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa cy'umweru kirimo amabara y'ubururu ndetse handitsemo amagambo y'umweru n'umukara agiye atandukanye, ndetse icyo cyapa hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hariho ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse hari n'abana bambaye imipira y'icyatsi harimo abazungu batatu ndetse n'abandi bantu b'ibikara bambaye ingofero ndetse n'abafite imisatsi migufi n'abandi bambaye amadarubindi agiye atandukanye.

Umunara muremure usize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, inyuma y'uwo munara hari inzu nini isize amabara y'umweru ndetse kuri uwo munara hari ubwoko bw'amantene bugiye butandukanye.

Umugore w'inzobe wambaye amaherena, ufite imisatsi migufi wambaye agashati k'umuhondo, yicaye ku ntebe y'umukara iruhande rwe hari idarapo iriri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ku rundi ruhande rwe rw'iburyo hariho idarapo ry'umweru harimo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu bagiye batandukanye bafite amatelefone y'umweru, ndetse imbere yaho hari imeza iteretse ho imashini zigiye zitandukanye ndetse n'amazi yo kunywa. ndetse bameze nkaho abo abantu bari kwiga.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ku meza harimo abagabo n'abagore, abagore bafite imisatsi miremire ndetse n'undi ufite imisatsi migufi ndetse n'umugabo wicaye ku ruhande. Bicaye ku meza ndetse iyo meza iteretseho imashini zigiye zitandukanye ndetse n'ibikombe, bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse n'umweru. Imbere yabo bicaye imbere y'inzu isa nku'mweru.

Inzu ndende iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku ndetse n'igipangu kiri mu ibara ry'ivu, ndetse n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hejuru hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara agiye atandukanye, hejuru hamanitseho antene nyinshi zigiye zitandukanye.

Icyapa cy'umweru gishushanyijeho imirongo igiye itandukanye iri mu mabara atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icunga, icyatsi, ubururu bwijimye, ubururu bwerurutse cyane ndetse n'icyatsi cyerurutse cyane, ndetse n'icyatsi kibisi. Ubururu bwerurutse cyane handitsemo amagambo y'umukara ndetse n'imibare igiye itandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umweru, ndetse n'umukara agiye atandukanye cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Inzu ndende imeze nk'aho ari umunara usize amarange y'icyatsi, ndetse birumvikana iri gipangu cy'amatafari ahiye, hakaba hari urugi runini cyane ruteye amarange y'icyatsi.

Icyapa cyandikishijwemo amagambo y'umukara harimo ibirangantego bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, ndetse n'ikindi kimwe mu mabara y'ubururu bwijimye, ndetse n'umutuku n'kindi kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru ndetse hari ifoto y'umusore w'inzobe ufite imisatsi mugufi wambaye umupira w'umukara.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, imeze nk'aho ikiri kubakwa, hashinzeho ibiti bigiye bitandukanye, inyuma yaho hari igipoto kinini cyane cy'amashanyarazi, cyubakishijwe ibyuma bigiye bitandukanye ndetse hazengurukishijwe insinga zigiye zitandukanye.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Amapoto ane ashinze mu murima ndetse mu murima harimo ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye, harimo ibitoki, ndetse n'ibiti, ayo mapoto akaba aziritseho ibitsinga bigiye bitandukanye.

Umugore uhagaze ku muhanda wambaye ikanzu iri mu mabara y'umweru n'ubururu, imbere ye hateretse umufuka w'umweru ndetse n'igikarito cy'umutuku ndetse n'umuhondo. Iruhande rw'iwe hari icyapa cy'uruziga cy'umutuku n'umweru, ndetse hashinze ipoto y'umweru ndetse hariho ibiti bigiye bitandukanye, ndetse n'umuhanda w'umukara.

Ipoto ry'amashanyarazi rimanitseho itara kumuhanda itara yo kumva amatara ku itara byo ku muhanda ririho insinga ndende z'amashanyarazi ndetse iruhande rwaho hari feroge iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara yanyandikishaho amagambo y'umweru iruhande hari igipangu cy'amatafari ahiye ndetse n'irindi tarara ryo ku muhanda.

Ipoto ry'amashanyarazi rirerire ritwaye insinga z'amashanyarazi, hejuru cyane ndetse n'irindi poto rigufiya ririho itara ryo ku muhanda, iruhande rwayo hari indabyo ebyiri ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Amapoto manini cyane yubakishije ibyuma bihekanye byinshi bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'ibindi byuma biri mu mabara y'umukara, bigiye bishinze hasi ku butaka, ndetse n'icyuma gisa umutuku. Harimo umuntu urimo uragenda, wambaye ingofero y'umweru n'ipantaro y'umukara. Hariho n'ibindi byuma bijya gusa icyatsi bigiye bitandukanye.

Inzu z'amagarofa yariho icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara, ndetse hari gusohokamo imodoka y'umweru hariho uruzitiro rw'ibyuma, ndetse hateyemo n'ibiti by'icyatsi birebire.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Icyapa kinini cy'umweru kimanitse ku nzu y'amatafari ahiye, ndetse kiriho amagambo cyandikishijweho amagambo y'umukara agiye atandukanye, gishushanyijeho ijisho riri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara, ndetse handitseho amagambo y'icyatsi agiye atandukanye, ndetse n'umukara.

Abagabo batanu harimo abapolisi babiri bigaragara nk'aho batwaye umugabo wambaye ikoti ry'umutuku ndetse wambaye n'umusaraba bigaragaza nkaho yaba yakoze icyaha.

Umugabo winzobe wambaye amadarubindi ufite agasatsi gakeya cyane ndetse wambaye ishati yumweru ndetse na karuvate y'umukara nishati yumukara mo imbere hasi icyo gishati yambaye kinini yambaye kirimo amabara yumukara ndetse numutuku numweru.

Umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, umugabo w'igikara wambaye ishati y'umukara ndetse irimo amabara y'umweru ndetse n'umugore wambaye igishati kinini cy'umukara kiriho amabara y'umweru. Imbere yaho hateretse imashini nyinshi zigiye zitandukanye.

Abagabo bagiye batandukanye n'abagore bari mu nzu, bambaye amakanzu y'umukara mu ibara ry'umweru bambaye udupfukamunwa iruhande rwabo hari akameza hateretse idarapo ririmo amabara y'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi bameze nkaho bari kurahira bazamura ukuboko bari munsi y'mabara asa n'umweru.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Umugabo w'igikara wambaye ingofero y'umukara irimo ibara ry'umuhondo, wambaye ikanzu y'umutuku ndetse ndetse hari ibara ry'inyuma ry'uumukara ndetse n'umweru, wambaye ishati y'umweru umanitse ikiganza ndetse iruhande rwe haridarapo ry'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu icyatsi ndetse n'umuhondo, imbere ye hariho indangururamajwi.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagabo n'abagore bambaye amashati arimo ibara ry'umutuku ndetse harimo utubara tw'umweru wambaye n'ingofero irimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku ndetse imbere yabo hari amadapo agiye atandukanye ry,urwanda n'amabara y'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi ndetse murabo ngabo harabicaye bambaye amakanzu y'umukara,

Igicupa kinini cy'umutuki kiriho akapa k'umweru kagiye kanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishishe ari mumabara y'umukara ndetse n'umutuku, ndetse icyo gicupa kimanitse ahantu ku igikuta cy'umweru.

Imodoka ya polisi iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru handitseho ijambo polisi, ndetse iri imbere y'inzu y'ikigo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu Rwanda cya polisi, ndetse iyo nzu imbere yaho hari icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Icyuma kinini cy'umutuku, ariko harimo n'amabara y'umukara gishinzwe kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro ndetse kimanitse kunzu iri mumabara y'umweru.

Abagabo babiri umwe wambaye kostime y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara w'inzobe ufite imisatsi migufi, imbere yiwe hari indangaruramajwi ndetse imbere ye hateretse imeza iriho amakaye ndetse inyuma yiwe hari umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'umweru ndetse wirabura.

Umugore w' igikara wambaye amadarubindi ufite imisatsi mugufi, wambaye ikoti ry'umweru n'agashati k'icyatsi mu mbere, wicaye ku meza hariho igitambaro cy'icyatsi harimo amagambo yumweru mbere yiwe hari indangururamajwi y'umukara. Iruhande rw'iwe hari abandi ba mama bagiye batandukanye bambaye udupira tw'icyatsi ndetse n'amajipo y'umweru bari imbere y'inzu.

Inzu imeze nkaho ari inteko ishingamategeko harimo abantu bagiye batandukanye, abagore bambaye imikenyero igiye itandukanye, ndetse harimo n'abagabo ndetse harimo n'amabendera y'u Rwanda bigaragara nkaho barimo bararahira.

Perezida w'u Rwanda Polo Kagame ari hagati y'abantu bagiye batandukanye, ndetse yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, ndetse mu ntoki ziwe afite indangururamajwi arimo araseka yambaye n'amadarubindi ndetse n'isaha n'amasogisi y'umukara.

Umugore w'inzobe wambaye amadarubindi ufite imisatsi miremire, ndetse wambaye ishati y'ubururu ndetse imbere ye hari indangururamajwi yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hateretse ameza hariho icupa ry'amazi, ndetse ari kumwe n'abantu n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Amahema y'umweru ari mu mabara iruhande rw'amabara agiye atandukanye hariho umutuku ubururu, umweru ndetse hariho abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda y'umutuku ubururu, n'umweru, ndetse iruhande rwabo hari inzu ndende iri mu mabara y'umweru ufite ibirahuri by'umukara ndetse hasi hari amapave hateye n'ibyatsi.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho ikirangantego, kiri mu mabara y'icyatsi ndetse hashushanyijeho ikigori gifite ibishishwa by'umweru ndetse handitseho amagambo agiye atandukanye, harimo ashushanyijeho inyenyeri iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'akandi kantu gashushanyijeho kari amabara y'icyatsi, yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri n'abagore babiri umugabo umwe wambaye ishati y'umweru w'igikara ufite indangururamajwi y'umweru ndetse n'undi wambaye amadarubindi uri iruhande rw'iwe wambaye ishati irimo umukara n'umweru n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, iruhande rwe ahagaze abagore babiri umwe ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye agashati k'umweru k'umutuku ndetse na terefone mu ntoki.

Umugabo n'umugore bicaye ku ntebe inyuma hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru cy'ubururu, umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'amadarubindi n'ipantaro isa n'ivu n'amasogisi y'umukara n'inkweto z'umukara, umugore we yambaye agapira k'icyatsi ndetse mo imbere yambayemo gashati k'umukara n'umweru yambaye ipantaro y'umukara n'ikweto z'umukara.

Umugabo w'igikara n'imisatsi migufiya ndetse wambaye ikote ndetse n'ishati y'imbere n'amabara y'umukara ndetse n'umweru wambaye akantu ko mu matwi k'umweru ndetse iruhande rw'iwe hari abandi bagabo batandukanye.

Umugore w'inzobe wambaye amadarubindi ufite imisatsi miremire yumukara wambaye amaherena wambaye ikoti ry'umukara n'agapira imbere wambaye ipantaro y'umukara n'ikayi iriho mumabara y'ubururu ndetse yicaye ku ntebe yumweru imbere yiwe hateretse indangurura majwi y'umukara.

Umugabo w'inzobe wambaye amadarubindi, ingofero y'umukara, umupira w'amaboko maremare ndetse n'isaha, ufite indangururamajwi mu ntoki ziwe ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara werurutse, inyuma yiwe hari umugabo wigikara wambaye ijire y'umukara, n'ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'imikara ndetse bari mukidara cy'umweru kirimo amabara y'ubururu n'umutuku n'umweru.

Imodoko nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'ivu ndetse imwe ni nini cyane ihetse imifuka y'umweru ndetse n'icyatsi myinshi cyane ndetse iyo modoka zifite amapine y'umukara iri mu muhanda w'umukara zirimo ziragenda ndetse mw'uwo muhanda harimo imodoka nyinshi ndetse n'amapikipiki agiye atandukanye.

Umuyoboro w'amazi hejuru hariho ikiraro kiri mu bwoko bwa sima ndetse umuhanda hariho iruhande hariho umuhanda w'umweru usa w'umukara harimodoka nini ifite ihema ry'umweru ndetse imodoka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara iruhande hari ibiti bike bitandukanye ndetse na shitingi isa icyatsi.

Imodoka isa nk'ivu iri mu muhanda iri kugenda ifite amapine y'umukara, ndetse iruhande rw'iyo modoka hari umumotari uhetse umuntu ku ipikipiki wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu wambaye n'ingoferoy'umukara ndetse n'umutuku.

umuhanda w'umukara urimo ikamyo nini cyane, imodoka nini cyane isa n'umweru, ifite amabara y'icyatsi ndetse n'amapine y'umukara ndetse iruhande rwabo hari umugabo muremure uri Ku igare, wambaye ingofero y'ubururu, ishati y'amabara y'umweru n'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'ubururu ifite amatara y'umutuku ndetse n'umweru iri mu muhanda w'umukara ndetse iruhande rw'iyo modoka hari itwara amapoto, hari ifoto nini y'umweru ndetse n'indi y'umukara ndetse n'ibiti biri ku muhanda, imbere yaho hari umugabo uri ku igare wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare.

Imodoka ebyiri z'umweru ziri mu muhanda n'umukara ndetse zifite amapine y'umukara ndetse iruhande hari hari umugabo uri gusunika igare ry'umukara, hariho imifuka y'umweru, igitoki, ibikarito bigiye bitandukanye ndetse hariho n'ikiraro cy'umukara kiriho amabuye.

Imodoka nini y'umweru ifite amapine y'umukara, iri mu muhanda w'umukara, ndetse imbere yawo hari umugabo wambaye agapira k'umweru n'ipantaro, n'inkweto z'umweru, bigaragara nk'aho bwije, ndetse n'amatara yo ku muhanda ari kumurika, ari ku mafoto y'umweru.

Imodoka z'ubururu n'umukara ziparitse mu muhanda w'amapave ndetse urimo ibyatsi by'icyatsi ndetse hariho ibyapa biri mu mabara y'umuhondo ubururu ndetse n'umweru, ndetse ibyo byapa bishushanyijeho abantu bagiye batandukanye iyo modoka ni nyinshi harimo abagenzi benshi bagiye batandukanye ndetse n'udutebe twabagenzi.

Umuhanda w'umukara harimo haragendamo amapikipiki abiri ndetse n'igare rihetse umuntu ufite umufuka uri mu mabara y'umutuku y'umweru ndetse n'icyatsi ndetse iruhande rwaho hari ibiti bigiye bitandukanye haparitse n'imodoka nini zigiye zitandukanye.

Imodoka y’umweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'umweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara yandikishijeho amagambo y'umutuku inyuma ndetse hariho n'akapa k'umuhondo hariho n'amagambo y'umukara, iri mu muhanda w'umukara iri kugenda ndetse iruhanda haparitse imodoka zigiye zitandukanye inini ndetse n'intoya iri mu mabara y'ubururu, icyatsi, umweru ndetse n'amapikipiki arimo aragenda mu muhanda.

Abatwara amapikipiki bagiye batandukianye bambaye udushati tw'umuhondo ndetse n'ubururu ndetse bicara bicaye kumapikipiki yabo ndetse n'abayatwaye bari mu muhanda aho baparika.

Umuhanda w'umukara urimo ipikipiki nini y'ubururu ndetse ifite amapine y'umukara ndetse imbere yaho hari indi modoka isa umutuku ndetse ifite amapine y'umukara isa nkaho ihetse umucanga, iruhande rw'iyo nzu n'uwo muhanda hariho inzu iri kubakwa ndetse n'indi nzu isa n'umweru hejuru ifite amabara y'umuhondo.

Ikibuga bakiniraho imikino ngororamubiri igiye itandukanye harimo amarangi agiye atandukanye harimo umweru, umutuku ndetse n'icyatsi ndetse hashizemo igiti bakiniraho iyo mikino, kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo n'umukara.

Icyapa cy'inyabutatu kimanitse ku muhanda w'amabuye icyo cyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru gishushanyijeho abana babiri mu mabara y'umukara ndetse iruhande rwabo hari ibiti bigiye bitandukanye.

Ibyapa bibiri biri ku nkoni imwe by'inyabutatu, bifite amabara y'umutuku n'umweru ndetse icyapa kimwe ya gishushanyijeho umusaza ndetse n'umugore, umusaza akaba afite agakoni n'ikindi gishushanyijeho akarongo kaberamye, kiba kiri ku muhanda mu muhanda w'umukara ndetse hateyeho ibyatsi bike bitandukanye.

Icyapa kiri mu bwoko bw'inyabutatu kiri mu mabara y'umutuku n'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye, giteretse ahantu mu muhanda inyuma hariyo umucanga urunze hasi ndetse n'abantu barimo barubaka.

Icyapa cy'umuhondo gishushanyijeho imirongo y'umukara igiye itandukanye harimo imirongo igiye ibusanya mu byerekezo bitandukanye harimo uduti dushinze n'utw'umweru.

Amazu menshi agiye atandukanye, arimo amagorofa ndetse n'andi asanzwe, havanzemo ibiti bigiye bitandukanye ndetse harimo n'imihanda y'igitaka ndetse hariho n'insinga z'amashanyarazi zigiye zitandukanye.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Amazu menshi agiye atandukanye, hari inzu y'amagorofa ndende, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ndetse n'andi mazu agiye asakazwa amabati y'ubururu ndetse n'umweru, bigiye bitandukanye, n'andi y'amagorofa, asa nk'umweru, ari inyuma yaho.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umuhondo uhetse igikapu cy'umukara ufite igare inyuma ye. Ari mu muhanda w'umukara ndetse inyuma ye hari abagenzi bahagaze ndetse iruhande rw'iwe hashinze ipoto ry'amatara rirerire ry'umukara.

Umuhanda w'amapavi ndetse uri kumwe n'indi mihanda igiye inyuranyunamo y'umukara n'umweru ndetse harimo amabara y'imkara n'umweru hariho n'ibyatsi biteye ku mpane ndetse harimo umugabo wambaye umupira w'ivu w’ maboko maremare ndetse n'ipantaro yumukara urimo uraza.

Umugabo uri ku igare wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ndetse inyuma yiwe hari umuhungu ndetse n'umugore barimo kugenda mu muhanda, umuhanda usize ibara ry'umutuku, n'ibara ry'umukara, ndetse n'umweru.

Imihanda myinshi igiye inyuranyuranamo ndetse muri iyo mihanda hagiye harimo indabyo ndetse isize n'amabara atandukanye, ndetse muri uwo muhanda harimo imodoka z'ubwoko butandukanye, ndetse n'amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti byo ku muhanda.

Umuhanda w'umukara urimo amapikipiki agiye atandukanye harimo ipikipiki nini y'ubururu ifite amapine y'umukara ndetse n'indi pikipiki iriho umugabo wambaye jire y'umuhondo ndetse n'ubururu ndetse mo imbere yambayemo ishati y'umweru irimo amabara y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi ari y'ubururu yicaye ku ipikipiki y'amabara y'umutuku ndetse yambaye n'ingofero y'umutuku iruhande rwe hahagaze umugabo.